Ikamyo iri mu muhanda itwara ibicuruzwa iri mu mabara y'umweru n'ubururu, hakurya yayo hari ibiti birebire, ku ruhande rwayo hari umunyonzi atwaye igare ndetse n'umusore wambaye agapira ka oranje n'ikabutura y'umweru ndetse n'ingofero iri mu mabara y'umweru n'ubururu.

Icyapa cy'umuhondo kirimo amabara y'umukara, kiri mu ishusho ya kare itambitse. Icyapa kirimo akamenyetso k'umusaraba ndetse ku mutwe hameze nk'uruziga, ako kamenyetso ni umukara.